Bigaragara ko abantu bicaye kuri aya meza bari mu nama runaka, kuko bose nk'ukobigaragara bari kureba mu cyerekezo kimwe, dukurikije imyambaro yabo bisa nkaho ari inama ya siporo kuko turabonamo abambaye ama jaketi.

Icyapa cyerekana ahatangirwa serivisie z'irembo, ndetse n'izindi serivise za banki. Biragaragara ko ari ahantu hagengwa n'umuntu wikorera, ariko utanga izi serivise zose.

Ni positeri yamamaza akazi ihamagarira abantu bafite ibisabwa kugira ngo babe bapiganira akazi ko gutwara, kuva Dari sarama muri Tanzania.

Ibikorwa remezo iri n'ippoto rinini ryifashishwa mu gutwara amashanyarazi mu ntera ndende, ikigaragara iri ni ipoto rya nyuma aho agarukira bigaragara ko insinga zidakomeza ziva kuri iri poto zijya ku rindi.

Iyi foto yerekana umugororwa urimo usuhuzanya n'undi muntu bigaragara ko yasuwe cyangwa akaba agiye kuburanishwa.

Ni ibiro bya polisi bya gisozi, biragaragara ko n' izi ari inyubako z'ibiro zabyo, ahagaragara n'abapolisi bahagaze babiri bambaye imyenda y'umukara n'ubusitani imbere y'inzu.

Ifoto yerekana abanyamuryango b'ishyaka rya efuperi inkotanyi, bari hamwe bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyangwa izindi gahunda z'ishyaka rya fpr inkotanyi.

Umuyobozi w'igihugu perezida paul kagame bigaragara ko yari ari muri kampeyini ya rpf dukurikije ibitatse ahantu ari n'imyambaro y'abahari inyuma ye hari inzego z'umutekano zimucungiye umutekano

Ibikorwa remezo umuhanda na ruhurura aho amazi anyura, hariho umugore uri gucuruza ibisheke mu ndobo, harimo n'ikinyabiziga gitwaye imizigo no hirya hariho uruzitiro rwerekana ko aho hantu bari kuhubaka.

Igikamyo yikoreye ibintu, hepfo y'umuhanda bigaragara ko hari inyubako iri kuzamurwa hakurikijwe uruzitiro ruhari uko ruteye.

Iyi ni imodoka izwi ku izina rya hoho, ikaba ishinzwe ubwikorezi, ikaba ikoreshwa cyane mu bwubatsi. Hagaragara n'umuhanda, ndetse n'ibindi binyabiziga, n'abanyamaguru.